Inama rusange yita ku isuku y'igihugu cy'u Rwanda haba mu turere, mu ntara, mu nzego z'ibanze, kugeza ku rwego rw'igihugu muri rusange.

Ikirango cy'Urwego rw'Igihugu rw'Imiyoborere mu Rwanda, igaragaza intego ndetse igaragaza n'aho wabasanga ku mbuga nkoranyambaga bakoresha.

Itangazo ryatanzwe n'urubuga rw'irembo, rivuga y'uko nta muntu wemerewe gusaba cyangwa se kwemeza akoresheje pasiporo.

Inyubako iri mu inzu y'ubwiherero, ifite amabara y'umukara, imbere yaho hari indobo.

Igazeti yashyizwe ahagaragara ku bijyanye n'ubwigenge bw'abanyarwanda, mu gufata ibyemezo no gusumba andi mategeko ku itegeko nshinga.

Umugabo wambaye impuzankano y'abacamanza iri mu ibara ry'umweru n'umutuku. Ushinzwe guca imanza.

Umuhanda urombereje, wabereyemo impanuka ndetse kandi bigaragara ko hari gutangirwamo ubutabazi bw'ibanze hifashishijwe imbangukiragutabara, imodoka ifasha abarwayi kugera kwa muganga.

Imodoka itwara abagenzi rusange mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali, bigaragara ko iri kugenda muhanda urombereje ahegereye ikiraro.

Ikinyabiziga kinini gitwara imizigo kiri mu muhanda mugari urombereje, iruhande rwayo hari umugabo ufite ikiziga n'undi wikoreye umufuka, hirya gato hari indi modoka biri kubisikana.

Imodoka nini itwara abagenzi rusange, ihagaze aho abagenzi bategera imodoka, ku ruhande rw'ibumoso hari abantu babiri, umugabo n'umugore, haruguru yayo hari icyapa.

Icyapa cyerekana ko umuhanda unyurwamo mu byerekezo byombi. Iki cyapa gishyirwa ku muhanda unyurwamo mu byerekezo byombi.

Umuhanda urombereje urimo ibinyabiziga, birimo ibinyamitende nk'amapikipiki, hariho n'aho abanyamaguru bicara bategereje imodoka zitwara abagenzi rusange.